Umukozi w'ikigo gishinzwe kwita ku buzima ku isi agira uruhare mu gutanga imiti ifasha abantu barwaye ndetse no kubagira inama.

Tugomba gukora uburyo bushoboka bwose kugira ngo dutange ubuvuzi buboneye ku bantu bose babukeneye, mu rwego rwo kugira ngo twirinde indwara z'ibyorezo zitandukanye.

Imbaga y'abantu bitabiriye inama, barimo abambaye ingofero z'ubururu, abambaye ibitambaro by'iroza ndetse bambaye imyenda itandukanye, batahanye ingamba umuyobozi yababwiye ndetse biyemeza kuzishyira mu bikorwa.

Umwana mutoya usa nk'umunyeshuri wambaye ishati y'umuhondo y'amaboko magufi ndetse n'ikabutura y'ubururu akaba ari guseka yishimye, afite ibirahuri bibiri by'amazi avomye mukizenga.

Umuntu uri inyuma kuri rubine ari gupomba amazi akana gatoya gafite ubuvido bubiri kari kuvomamo amazi meza.

Umwana ari kunywa amazi kuri robine, hasi hateretse indobo y'amazi, ayo mazi ari kuva muri robine ari kugwa mu ndobo, nyamara umwana nawe we ari kunywa amazi hejuru y'indobo.

Umubyeyi asabwa kwigisha umwana we gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune, ni ibintu by'ingenzi cyane bikurinda umwanda ndetse bikagufasha kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Umubyeyi w'umugore ndetse n'umugabo bazanye umwana kwa muganga kumuvuza indwara, muganga abandikira imiti ndetse ababwira uko bagomba kwita ku mwana.

Abana baje kuvoma bafite ijerekani, harimo iz'umuhondo ndetse nabo ubwabo bari bambaye imyenda itukura, y'ubururu ndetse n'umweru, baje kuvoma amazi meza yo kunywa.

Muganga ubifitiye uburenganzira niwe utera urushinge abana batoya bitewe n'ikigero bagezeho kugira ngo barindwe indwara zitandukanye.

Abaganga ndetse n'abanyabuzima bitabiriye ibiganiro byavugaga ku buzima, bari bambaye neza bambaye amataburiya y'ubururu.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'abana Unicef, gishishikariza abana bose gukaraba amazi meza ndetse n'isabune, mu rwego rwo kwirinda indwara zikomoka ku mwanda.

Abaganga bambaye neza amashati y'imyeru, bari gukora raporo, bandika mu makayi uko umunsi wagenze, ndetse n'abarwayi bavuye.

Ni byiza kuvoma amazi meza kuri robine zabugenewe, aho kugira ngo ujye kuvoma amazi yo hasi mu gishanga kubera ko ashobora kugutera indwara.

Mu nama yahuje abaganga b'inzobere mu bihugu bitandukanye, bize ku ndwara zitandura ndetse no ku ndwara z'ibyorezo bitandukanye byadutse muri iyi myaka.

Kuvoma amazi mabi ndetse no kuyakoresha biteza ingaruka nyinshi zirimo uburwayi ndetse n'ibindi byinshi bigendana n'aya mazi.

Ku ivomero rigezweho rifite amazi meza, rihuriraho abavomyi benshi ndetse batondekanya amajerekani yabo ku murongo kugira ngo birinde akavuyo n'umuvundo.

Ikigo cy'Isi gishinzwe kwita ku buzima, gishishikariza buri muntu wese kwifata neza kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Itsinda rigari ry'abantu batandukanye bitabiriye inama bicaye mu ntebe nziza cyane, bunguranye ibitekerezo byinshi ndetse batahana ingamba nshya.

Abaganga batandukanye bahuriye mu nama yo kwita ku buzima batahanye ibitekerezo byiza by'ukuntu bakita ku buzima byisumbuyeho uko bajyaga babikora.

Urubyiruko rwahuriye hamwe mu nama yigaga ku kibazo kigendanye n'itwita ry'abangavu, bakanguriwe gukumira ndetse no kurwanya itwita ry'abangavu.

Ababyeyi barasabwa gushishikariza abana babo gukoresha amazi meza ndetse bakananywa amazi meza mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo.

Ni byiza kurinda abana batoya kugera ku mazi yanduye kubera ko ashobora kubatera indwara zikomoka ku mwanda, kandi igihe batigishijwe ibibi byayo aho bayabonye hose barayanywa.

Imbaga y'abantu batandukanye abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru bitabiriye inama yo kwiga ku buryo bakita ku buzima bwabo.

Gukoresha amazi meza bituma umuntu agira ubuzima bwiza, butarimo indwara zikomoka ku mwanda, ndetse n'indwara zikomoka ku gukoresha amazi mabi.

Umubyeyi niwe wigisha umwana mutoya gukaraba amazi meza n'isabune ndetse akamwereka ingaruka ziterwa no kudakaraba amazi meza.

Ku ivomero rusange ivomero ryiza cyane risa ubururu, hakaba hari umukobwa ufasha abaturage kuvoma. Abaturage bari iruhande rw'akazu k'amazi bose bategereje amazi meza.

Umwana mutoya yigishwa gukaraba amazi meza, ndetse n'isabune mu rwego rwo kumurinda kurwara indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda wo kudakaraba.

Abajyanama b'ubuzima barahugurwa ndetse bakagirwa inama ku buryo bashobora kwita ku murwayi bakamuha imiti imwe n'imwe ndetse bakamupima n'indwara zoroheje.

Abana batoya na bo bagomba kwitabwaho kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse bazabashe kugera ku kigero nk'icyo tugezeho.

Abana batoya bigishijwe akamaro ko kunywa amazi meza ndetse no gukaraba bityo rero bibafasha kwirinda indwara zitandukanye zo mu buzima bwa buri munsi.

Itsinda rigari ry'abahuye bafite ibipapuro byamamaza ndetse bambaye ingofero z'imituku n'umweru, abandi bambaye ibitambaro by'amabara atandukanye.

Umwana mutoya wambaye ishati ya buresiyeri. Imbere ye ku meza hateretse indobo, indobo ipfundikije umufuniko w'ubururu.

Ni byiza ko ahateraniye imbaga nyamwinshi nko mu bukwe ndetse n'ahandi, haboneka ambirasi yo gufasha uwagize ikibazo cy'uburwayi butunguranye, ikamwihutana kwa muganga.

Umuntu bigaragara ko ari umujyanama w'ubuzima yicaye ku gatebe ndetse imbere ye hari umubyeyi ufite urupapuro akana kamwegamyeho, umujyanama w'ubuzima afite ibitabo byinshi bigaragara ko ari kwigisha uyu mubyeyi kwita ku mwana.

Uruhurirane rw'abana batoya b'urungano, bambaye imyenda y'umukara, umutuku, umweru, bahuriye kuri robine bavoma amazi ariko banakirana.

Abagabo beza cyane bambaye amashati amakaruvati, amakote ndetse n'abagore bakeya, bagera kuri babiri gusa, bicaye iruhande rwameza ndetse buri muntu wese imbere ye hateretse agakombe gatetse ku isahani.

Umubyeyi ukenyeye igitenge, uteze igitambaro, yikoreye amazi mu ndobo itukura ndetse atwaye amazi mu yindi ndobo y'umuhondo mu ntoki.

Ni ngombwa kujyana umwana kwa muganga igihe akiri mutoya agakurikiranwa n'abaganga ku bigendanye n'ubuzima bwe ndetse agahabwa ibyagenewe abana batoya nka vitamini ndetse n'ibindi.

Gahunda y'ubufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kanada mu bigendanye no gupima ndetse no kuvura kanseri ifata igifu.

Icyapa kiriho abaganga ndetse bigaragara ko bari bagifashe, kikaba cyanditseho UNICEF uyu n’umuryango w'abibumbye ushinzwe kwita ku bana ndetse n’uburenganzira bwabo.

Ubuvuzi bugere kuri bose nta n'umwe usigaye by'umwihariko ku bantu baba mu cyaro, bagomba guhabwa ubuvuzi burimo n'ubwo kubaga.

Itsinda rigari ry'abagabo n'abagore bitabiriye amahugurwa yigaga ku buzima ndetse no gufata neza umubiri, yabereye ku bitaro batashye batahanye ingamba nshya.

Ku ivomero kuri rubine yabugenewe, niho abantu bose baza kuvoma amazi meza, nta n'umwe ujya kuvoma mu bishanga ndetse no mu mibande.

Umukobwa mutoya wambaye inifomo bigaragara ko ari umunyeshuri ari gukaraba kuri kandagira, ukarabekandagira ukarabe ifite amazi meza ndetse hasi hateretse igikoresho amazi mabi agwamo.

Umuryango w'umugore n'umugabo ndetse n'abana, wasuwe uhabwa inama ndetse bigishwa kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Abayobozi bashinzwe kwita ku buzima, bitabiriye inama, bahawe amazi meza yo kunywa ndetse batanga ikiganiro cyiza.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ufite ikibazo cy'akajagari ko mu mutwe aganirizwa na muganga hanyuma akabasha gukira.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe abenshi bakunze kwita umusazi, arangwa no gukora ibikorwa bidasanzwe, nko kurundarunda imyanda gutoragura amashashi, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye akora umuntu muzima atakora.

Inama zigirwa umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza bwo mu mutwe, mu rwego rwo kwirinda kuba umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe, ashobora kugira ikibazo cyo kwiheba ndetse no kwigunga, rimwe na rimwe ukabona afite ubwoba, ndetse ntashaka kugaragara mu ruhame.

Muganga ubizobereyemo ndetse ufite ububasha n'ubushobozi ni we ugira inama abantu uburyo bitwara kugira ngo bite ku buzima bwo mu mutwe.

Ubuvuzi ni bwiza cyane by'umwihariko ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe, rwose dukwiye guhagurukira kurwanya indwara zo mu mutwe, kuko ni nyinshi. Wowe ubwawe byumve neza ko ugomba guharanira kurwanya izi ndwara.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe akora ibintu bidasanzwe aho ashobora kurya nk'ibintu birimo umwanda ndetse akaba yambaye ibishwambagara.

Abakoranabushake mu by'ubuzima bitabiriye amahugurwa ndetse bagirwa inama yo kwita ku buzima mu bice byose bitandukanye.

Abana batoya nabo bakeneye kuganirizwa ku kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, kubera ko umwana mutoya nawe ashobora kugira indwara zifata mu mutwe.

Umukecuru wimbiza uruyenzi ndetse wakutse amenyo, ari guteka agakoma nubwo arikugatekera ahantu hari umwanda, gusa bigaragara ko afite ibibazo byo mu mutwe. Mu by'ukuri ni byiza ko abafite ibibazo byo mu mutwe baganirizwa bakitabwaho.

Kunywa amazi meza bifasha cyane umubiri, by'umwihariko bifasha ubwonko gutekereza neza, cyane ko umuntu aba yiriwe areba mu bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Umushinga wo kurwanya korona virusi mu Rwanda ndetse no gushishikariza abantu bose kwirinda iki cyorezo.

Muganga uvura indwara zo mu mutwe, ni umuganga ubizobereyemo kandi utanga inama zitandukanye mu bijyananye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe ntago aba akibasha gutekereza neza, cyangwa ngo akore ibintu nk'iby'umuntu muzima, akeneye kugirwa inama ndetse no kujyanwa kwa muganga ubishinzwe, uzobereye mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Ababyeyi na bo bagomba kugirwa inama ku buzima bwo mu mutwe ndetse byaba ngombwa bagahabwa ubuvuzi igihe hasanzwe bafite ibibazo byo mu mutwe.

Itsinda rigari ry'abaganga bambaye neza imyenda y'umukara n'umweru, amakoti meza n'amakaruvate, ryize kuki kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe.

Isange wani sitopu senta ni ikigo cyashyizweho ku bufatanye n'umuryango w'Abibumbye ndetse kikaba gikorera mu Rwanda, aho gitanga inama ku bana bahuye n'ihohoterwa.

Iyo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe akora ibikorwa bidasanzwe, birimo nko kwigaragura hasi ndetse no kwambara ibyenda byashanyaguritse.

Abaganga bahuguwe ku bigendanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, ndetse no kuvura indwara zo mu mutwe mu rwego rwo gufasha abantu benshi bafite iki kibazo.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ibintu bireba buri muntu wese nkuko ikigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe ku isi kibishishikariza abantu bose.

Itsinda ry'abantu bagirwa inama yuko bafata neza ubuzima bwo mu mutwe ndetse bakabasha kwipimisha mu gihe hagaragaye ibimenyetso bidasanzwe.

Ufite uburwayi bwo mu mutwe, araganirizwa, ndetse agahabwa ubuvuzi akabasha gukira akaba umuntu usanzwe ufite ubuzima buzima.

Umwana mutoya ashobora kugira indwara zo mu mutwe bitewe n'uburyo yavutse cyangwa se bitewe n'imibanire y'ababyeyi be uko babanye.

Kwita ku bana batoya ubaha amafunguro atandukanye ni byiza cyane, kuko bibafasha kubaho neza ndetse no gutekereza neza by'umwihariko igihe ubatekera igikoma kirimo intungamubiri zitandukanye.

Ababyeyi bambaye neza bahuguwe ku bijyanye no kwita ku buzima bw'amenyo ndetse bahabwa impapuro zo kwandikaho.

Muganga w'inzobere mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amenyo. Ni we wenyine ufite uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kubaga amenyo, igihe bibaye ngombwa ko abagwa.

Umwana muto agomba koza amenyo akoresheje umuti wabugenewe kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda ukomoka ku byo yariye, harimo nk'imyunyu isigara mu menyo nyuma yo kurya.

Ikigo kinini cyita ku buzima ndetse n'ubuvuzi bw'amenyo, gifite inyubako ndende, nini kandi nziza.

Igihe umwana wawe agize ikibazo cy'amenyo ni ngombwa kumujyana kwa muganga kugira ngo akurikiranwe ndetse ahabwe ubuvuzi na muganga wabugenewe.

Muganga akura amenyo igihe asanze yarangiritse cyane nta kindi cyo gukorwa uretse kuyakuramo kugira ngo umuntu adakomeza kuribwa.

Umukobwa mwiza ari gukoresha urudodo yoza amenyo ye akaba ari uburyo bwiza bwo kumaramo imyanda yafashe mu menyo hagati, igihe umuntu yaryaga.

Umuganga uzobereye mu bigendanye n'ubuvuzi bw'amenyo niwe wenyine wakugira inama niba iryinyo ryawe ribagwa cyangwa se niba rihabwa ubundi buvuzi.

Koza amenyo yawe ukoresheje uburoso, ndetse n'umutima wabugenewe korogate, bifasha kwirinda indwara zifata amenyo, ndetse no gukora isuku mu menyo.

Usabwa kugirira amenyo yawe isuku kugira ngo ase neza ndetse uyarinde no kurwara indwara zitandukanye zifata amenyo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho byifashishwa mu gukura amenyo yagize ikibazo, ku buryo umurwayi adashobora kugira izindi ngaruka.

Ni byiza igihe ubyutse koza amenyo ukoresheje uburyo butandukanye, by'umwihariko ushobora gukoresha uburyo butamenyerewe cyane nk'urudodo kuko rufasha gukuramo imyanda yose yafashe mu menyo hagati.

Umwana mutoya na we ashobora kurwara indwara z'amenyo, bityo rero agakurikiranwa n'abaganga ni byiza kujyana umwana kwa muganga aho kugira ngo uvuge ngo ni ibisanzwe.

Intebe yicarwaho n'umuntu ukeneye ubuvuzi bw'amenyo by'umwihariko, igihe agiye gukurwamo amenyo, ni intebe ituma umurwayi yicara neza.

Umwana muto na we ashobora kugira ibibazo by'amenyo, aho rimwe na rimwe bishobora kuba ngombwa ko amenyo yangirika cyane bakaba bayakuramo.

Ni ngombwa kwita ku buzima bw'amenyo ndetse ukiga no kuyagirira isuku mu rwego rwo kuyarinda kurwara, ku buryo rimwe na rimwe usanga bishobora kugira ingaruka zikomeye.

Abakuze bagomba kwitabwaho kugira ngo babashe kugira imibereho myiza ndetse bakomeze no kwiyumva neza muri sosiyete.

Siporo ni ubuzima ku buryo abakora siporo bagira uburambe ndetse siporo n'iya buri muntu wese, abakuze na bo bakora siporo mu rwego rwo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abageze mu zabukuru nabo basabwa gukora siporo zoroheje nko gukora pombaje ndetse n'izindi zitabagoye mu rwego rwo gufasha ubuzima bwabo kumera neza.

Abageze mu zabukuru bitabwaho ndetse bagahabwa imiti itandukanye ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo badahura n'ikibazo cy'uburwayi.

Abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho ndetse bakagaburirwa indyo yuzuye, irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara, harimo ndetse imboga n'imbuto, mu rwego rwo kubafasha kugira ubuzima bwiza.

Kuganiriza abageze mu zabukuru ndetse no kubitaho bibafasha kugarura icyizere cy'ubuzima, ndetse bikanabafasha kugira ubuzima bwiza bakiyumva nk'aho atari bonyine.

Itsinda ry'umuryango w'ababyeyi bakuze bitabwaho n'urubyiruko, baganirizwa ku buzima ndetse bagafashwa buri kimwe.

Abasaza n'abakecuru bageze mu zabukuru bitabwaho cyane ndetse bakaganirirwa, bakagirwa inama ndetse bagafashwa no kwita ku buzima bwabo.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni byiza cyane, kubera ko bituma bagira icyizere cy'ubuzima, ndetse bakabasha no kuramba imyaka myinshi, nta kibazo bagize.

Abakuze abasaza n'abakecuru bitabwaho, baganirizwa ndetse bagirwa inama kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bakomeze kuramba.

Abakecuru n'abasaza bageze mu za bukuru bitwaza utubando bambaye neza ingofero ndetse abandi bakenyeye imyitero bahurizwa hamwe bakaganirizwa.

Abageze mu za bukuru, abasaza, bakunze kujya kwa muganga bagahabwa imiti ibafasha bitewe n'uko umuntu ugeze mu za bukuru aba afite indwara zitandukanye.

Umusaza ugeze mu za bukuru ari iruhande rw'umukecuru nawe ukuze bose bafite impapuro impapuro zanditseho bari kugenda bazisoma, mu bykuri ni byiza ko abakuze basoma kugirango ngo bafashe ubwonko bwabo kwibuka.

Umuganga ufite imisatsi myiza cyane ikora mu mugongo yambaye itaburiya y'umweru ndetse mu ijosi hari akagozi k'abaganga, afite iruhande rwe umusaza arigufasha gukora udusiporo tworoheje.

Umuntu bigaragara ko akuze uri kugaragara intoki gusa ari gukina igisoro ndetse ibi bikamufasha gutekereza neza, mu by'ukuri ni byiza ko abakuze bitabwaho mu buryo butandukanye.

Urutonde rw'ibiribwa abakuze bashobora kurya kugira ngo bikomeze kubafasha mu rwego rwo kubongerera imbaraga birimo ibikomoka ku mafarini, imbuto ndetse n'ibindi byinshi harimo n'amagi.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ufite imvi, nawe akora siporo kugira ngo akomeze gufasha umubiri we gukomeza kumera neza ndetse no kugira ubuzima buzira umuze.

Abageze mu zabukuru na bo bakora siporo by'umwihariko ni ngombwa kubafasha gukora izi siporo kuko bituma barushaho kugira ubuzima bwiza.

Abasaza bakuze, bambaye neza, bambaye ingofero zitandukanye ndetse bakenyeye imyitero ya kinyarwanda.

Abakuze iyo bitaweho bakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse bagakomeza gutanga ibitekerezo muri sosiyete byubaka igihugu ndetse n'umuryango.

Siporo ngororamubiri ni izaburi wese, umukobwa cyangwa umugore nawe ashobora gukora siporo ngororamubiri, mu rwego rwo kwirinda umubyibuho ukabije, cyangwa n'izindi ndwara ziterwa no kudakora siporo.

Abageze mu zabukuru bakeneye kwitabwaho kugira ngo bagire icyizere cy'ubuzima ndetse bumve ko batari bonyine, hanyuma babashe gukomeza kubaho neza.

Abakuze bitabwaho, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza, ndetse bakomeze no kugira inama urubyiruko.

Kwita ku bageze mu zabukuru, ni ibintu by'ingenzi cyane ndetse hari uburyo bwinshi bwo kubitaho, nko kubereka udukino two muri telefone ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora gukora kugira ngo ubafashe.

Abasaza bageze mu zabukuru bitabwaho, bakaganirizwa ndetse bakagirwa inama ku bigendanye n'uburyo bakitwara mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Mu rwego rwo kwita ku bageze mu zabukuru, ni ngombwa kubashishikariza no gukora siporo zoroheje, bijyanye n'uko bangana cyangwa n'uko bashoboye.

Abageze mu za bukuru, basoma ibitabo bitandukanye, mu rwego rwo gukomeza gufasha ubwonko bwabo kwibuka ndetse no gutekereza neza.

Umuganga ahagaze iruhande rw'umurwayi, umurwayi aryamye ku gitanda, igitanda cyegereye ibyuma by'ikoranabuhanga bigaragara ko muganga ari kumwitaho uko bikwiye.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ari gukata imboga yambaye amataratara, ari guseka iruhande rwe hari inyanya ndetse na karoti atarakata, ndetse iruhande rwe rw'ibumoso hari umukobwa, uwo mukobwa akaba afite isahane irimo ubusa.

Eci pi ara ni ikigo k'igihugu kita ku buzima bw'abanyarwanda ndetse kikabagira inama, uko bitwara kugira ngo bafate ubuzima bwabo neza.

Ubuzima bwo mu mutwe bukwiye guhagurukirwa bakitabwaho, ndetse hari abakomeye bakomeje kugenda bagaruka kuri iki kibazo nka nyakubahwa madamu Jeannete Kagame.

Inama nkuru yo kwiga ku buzima ndetse no kugira icyizere cy'ubuzima yabaye mu mwaka wibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Abagabo beza bambaye amakarita y'akazi, akaba ari abagabo batanu, iruhande rwabo hari abakobwa babiri nabo bambaye amakarita y'akazi bakaba bafatiye ifoto y'imbere y'ibyapa.

Hari abantu babiri umuhungu n'umukobwa, bakaba bafite ibyapa byanditseho ngo bibiri na mirongo itatu ndetse n'andi magambo atari kugaragara neza, bose bikaba bigaragara ko bavuga ko muri bibiri na mirongo itatu ubuzima buzaba bumeze neza.

Umugabo wambaye ikote ndetse wambaye ikarita y'akazi akaba ahagaze neza imbere y'icyapa, iruhande rwe hirya gato hari umukobwa nawe yambaye ikarita y'akazi ndetse n'ikanzu nziza ku kaboko ke yambayeho n'isaha.

Ikigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima bw'abana unisefu gikorera hafi ku isi hose gishishikariza ababyeyi kwita ku bana babo.

Icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, hakozwe ubukangurambaga mu Rwanda kugira ngo abaturage babashe kumenya ubuzima bwo mu mutwe.

Ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyagiranye amasezerano ndetse y'ubufatanye mu gukorera hamwe mu rwego rwo kurwanya indwara zirimo: SIDA, igituntu ndetse na malariya.

Ubuvuzi bwamaso ku bageze mu zabukuru burakenewe cyane kubera ko abenshi bagira ikibazo cyo kutareba neza.

Bitabiriye inama yo kwiga kuri gahunda yo kwita ku buzima mu buryo bugezweho, bose batanye igitekerezo byiza by'uburyo bakomeza gusigasira ubuzima.

Mu by'ukuri kovide cumi n'icyenda yagize ingaruka zitandukanye ku buzima bwa muntu, niyo mpamvu buri wese yasabwaga gufatara uru rukingo rwayo kugira ngo abashe kugira ubudahangarwa.

Ubufasha ku bijyanye no kwita ku barwaye ndetse n'abafite ubwandu bw'agakoko gatera SIDA mu Rwanda buri kwitabwaho.

Umugabo wambaye ikoti ryiza cyane ndetse akaba yambaye na marinete afite igitabo ari gusuhuza undi nawe ufite igitabo wakikojeje mu gatuza wambaye n'impeta, bose bakaba ari abaganga.

Ubukangurambaga bukomeye bwa kurwanya indwara y'iseru, bwa bwa bwongerewe igihe, aho bari gukangurira buri muntu wese kwisuzumisha indwara y'iseru.

Indwara zitandura ni indwara zikwiye kwitabwaho ndetse zigahabwa ubuvuzi, abazifite bakagirwa inama y'uburyo bakitwara mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kumera neza.

Urwego rw'ubuzima rwariyubatse ku buryo usanga hari ibitaro biri ku rwego rw'Intara, ibiri ku rwego rw'Akarere, ibiri ku rwego rw'Umurenge kandi muri buri kagari haboneka ikigo nderabuzima.

Umwana mutoya ahabwa imfashabere, kugira ngo abashe gukura neza, ndetse agire n'ubudahangarwa mu mubiri we, bwamufasha guhangana n'indwara zitandukanye.

Buri bitaro byose byemewe n'amategeko bigira inyubako ababyeyi babyariramo, ku buryo batajyanwa mu barwayi basanzwe, ahubwo bashyirwa muri iyi nyubako yihariye.

Inyubako yo kwa muganga ndetse ikaba ari ibitaro bigezweho birimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, amamashini n'ibindi byuma bifasha abaganga kwita ku barwayi.

Ku bitaro kwa muganga, hakaba hari inzu yabugenewe ikorerwamo ubushakashatsi ku bigendanye n'imiti ndetse n'indwara zitandukanye nk'izo mu mutwe n'izindi.

Kwa muganga mu bitaro bigezweho bigira ibikoresho bitandukanye, birimo ibitanda biryamishwaho abarwayi ndetse hakaba ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma indwara zikomeye.

Abaje gusaba serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, bajya ku murongo bagategereza ko hagenda hagerwaho umwe umwe hakurikijwe uko baje kugira ngo birinde akavuyo ndetse no kwirengagiza bamwe.

Ibitaro bigizwe n'inyubako nyinshi kandi nini, ndetse zifite n'aho guparika imodoka, ibi bitaro kandi bikaba bifasha abarwayi mu buryo butandukanye.

Ibitaro bikuru bigira ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, ku buryo biba bifite ubushobozi bwo gupima indwara iyo ariyo yose ndetse no kuyivura.

Ikigonderabuzima cyose kiba gifite ubushobozi bwo kwita ku murwayi igihe afite uburwayi budakomeye mbese bwo ku rwego rw'ibanze.

Kwa muganga bakoresha ikoranabuhanga ritandukanye mu kuvura abarwayi, ndetse no gusuzuma indwara zabo. Kandi haba hari ibitanda byiza, umurwayi aryamaho iyo arembye.

Inubako yo kwa muganga igira aho binjirira, aho basohokera, aho batangira ibizami ndetse n'aho umurwayi ategerereza imiti ndetse n'inyubako nziza ku buryo iba isobanutse, haba handitseho buri gikorwa gikorerwa ahantu runaka.

Ku bitaro kwa muganga, haba hari ibikoresho bitandukanye ndetse bigezweho, byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kwita ku murwayi.

Mu rwego rwo gutanga ubuvuzi kuri bose, hari intebe yo kwa muganga yicarwaho n'abafite ubumuga bw'amaguru cyangwa abafite ikibazo cy'umugongo, bakayicaraho mu buryo bwiza buboroheye.

Kwa muganga ku bitaro hagomba kuba hari isuku ndetse ari ahantu heza, ku buryo nta kibazo abashaka serivisi z'ubuvuzi bagira.

Farumasi irafasha cyane mu bigendanye no gutanga serivisi z'ubuvuzi ariko ni ngombwa kubanza kujya kwa muganga kwisuzumisha mbere yo kujya kugura imiti ibonetse yose.

Inyubako yo kwa muganga igira ahatangirwa serivisi zitandukanye aho umuntu yakirirwa, aho atangirira ikizamini ndetse n'aho afatira imiti.

Inyubako yo kwa muganga, iba yubatse mu buryo bwiza ku buryo buri muntu aba afite aho abariza serivise bitewe na serivise y'ubuvuzi akeneye.

Ku kigo nderabuzima uhasanga abarwayi benshi, batandukanye barimo abagabo, abagore, bakeneye serivise z'ubuvuzi butandukanye.

Ibitaro bigira ibyumba byinshi, kandi buri cyumba gitanga serivisi cyagenewe, ntabwo ibintu byose bikorerwa mu cyumba kimwe.

Inyubako z'ibitaro ziba zubatse mu buryo bwiza ku buryo abaje kwivuza ndetse no gushaka serivisi z'ubuzima, babasha kubona serivisi mu buryo buboroheye.

Mu bitaro kwa muganga, hari inyubako zifite ubushobozi bwo kwakira abarwayi bose, mu byiciro bitandukanye ndetse hari ibitanda bihagije byo kuryamishaho abarwayi barembye.

Iduka ricuruza imiti, aho ushobora gusanga imiti yose yaba iyo wandikiwe na muganga ndetse na bo bakugira inama bitewe n'ikibazo ufite.

Mu nyubako yo kwa muganga isa neza cyane irimo amakaro, i ruhande gatoya hari ahantu hari ubukarabiro bwiza bugezweho bwa kizungu, ndetse hari intebe hino gato itariho umuntu.

Abagana ibitaro bashaka serivisi z'ubuvuzi butandukanye, bavuga ko bahabwa serivisi inoze ndetse nta murwayi utaha ativuje.

Inyubako yo kwa muganga yubatswe neza, ifite imiryango iyo miryango ikaba isize irangi ry'umukara, ndetse ku ruhande mu nguni mu kirahure hatatse agapapuro kariho abantu babiri.

Ibitaro bigezweho bigira ibikoresho byose bishoboka byifashishwa mu gupima umurwayi ndetse bikabasha no kumenya ikibazo afite.

nyubako y'ibitaro iba irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byose bishobora kwifashishwa mu gusuzuma ndetse no kuvura abarwayi batandukanye bitewe n'urwego bariho.

Abaganga batandukanye, abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'umweru n'umukara, ndetse n'inkweto nziza, bo ku bitaro bya Rwamagana.

Abajyanama b'ubuzima bahuguwe ku bufasha bw'ibanze bashobora gutanga ku barwayi igihe bagaragaye mu midugudu batuyemo, ndetse n'ahandi hose.

Mu bitaro kwa muganga, haba imyanya yo kwicarwamo n'abarwayi bategereje cyangwa batanze ibisubizo mu rwego rwo kubafasha kutagira umunaniro ndetse no kurambirwa.

Ku bitaro, kwa muganga uhasanga umwanya wo guparikamo imodoka mu gihe waba waje witwaye cyangwa uje gusura umurwayi.

Ku bitaro kwa muganga haba ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gupima indwara by'umwihariko indwara zikomeye zirimo nka kanseri.

Abaganga bungurana ibitekerezo ku bigendanye n'ibyo bakorera umurwayi, nyuma yo kumupima bagasanga afite indwara ikomeye, cyangwa bagasanga akeneye kwitabwaho by'umwihariko.

Kwa muganga mu bitaro abarwayi baryamamo, biba bifite ibitanda byiza bigezweho ndetse bishobora gufasha umurwayi kuryama neza.

Abarwayi bari mu bitaro baryamishwa ku dutanda twiza, ndetse buri murwayi wese aryama ku gitanda cye. Nta murwayi ubyigana n'ndi.

Farumasi icuruza imiti itandukanye, iherereye i Kanombe mu Mujyi wa Kigali, aho ushobora kugurira imiti yo ku rwego rwo hejuru.

Inyubako yo kwa muganga ibamo ibikoresho byose ku buryo bifasha umuganga ndetse bikaba byafasha n'umurwayi, mu buryo butandukanye, harimo no gukora isuku.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye hari ibitanda, ameza ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako y'ibitaro bikuru byo kwa muganga, ifite udutanda twiza abarwayi baryamishwaho, kandi ikaba ifite ibyuma by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gupima abarwayi.

Mu bitaro kwa muganga hari ibitanda bitandukanye bishashe neza ndetse bifite imyenda y'amabara atandukanye, irimo amashuka y'umweru ndetse n'ay'ubururu.

Inyubako z'ibitaro, zigiramo ahatangirwa serivisi zitandukanye nk'aho bakirira umurwayi ndetse aho batangira ibizami cyangwa aho batangira imiti.

Buri muryango wo kwa muganga, ufite igikorerwamo nko gupima ibizamini, gutanga imiti, guterwa inshinge cyangwa se gushyirwa mu bitaro.

Ni byiza kujyana umwana wawe kwa muganga kugira ngo bamupime ibiro barebe uko ahagaze mu mikurire, hanyuma ugirwe inama y'icyo wakora kugira ngo akomeze gukura neza.

Ku bitaro kwa muganga hari inyubako zikorerwamo ibitandukanye, ndetse hari nk'aho bafatira ibizamini by'umurwayi ndetse n'aho batangira imiti.

Abageze mu zabukuru bitabwaho mu buryo butandukanye, harimo kuganirizwa ndetse no kugirwa inama ku myitwarire y'ubuzima bwabo mu rwego rwo kubafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa ukiri mutoya wambaye inkweto z'umukara, usokoje neza, wambaye n'agapira k'umuhondo, ategereje muganga kugira ngo amusuzume amenye indwara afite.

Isange wani sitopu senta ni ikigo cyashyizweho mu rwego rwo gufasha abana bafite ihungabana kugira ngo babashe kuganirizwa ndetse bagirwe inama.

Ububiko bw'imiti bubitswemo imiti itandukanye. Imyinshi ifunze mu makarito, iy'indi iri mu macupa bikaba biri muri etajeri iri mu nyubako yo kwa muganga.

Inyubako y'ibitaro bikuru, iba ari inyubako igezweho ku buryo ifite ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse icyumba cyo gukoreramo ubuvuzi bwo kubaga kigomba kuba kigizwe n'ikoranabuhanga riri hejuru cyane.

Inyubako zo ku bitaro ziba zubatse mu buryo bwiza ndetse zifite ubusitani, aho umurwayi ashobora kuba atembera igihe atarembye kandi ategereje guhabwa serivisi.

Imbangukiragutabara ni imodoka yifashishwa kugeza abarwayi kwa muganga byihuse by'umwihariko abarembye, baba bari mu bice bitandukanye.

Uruhurirane rw'indwara umuntu ashobora kurwara, harimo nko kuvunika amaguru, kuribwa mu mugongo, ndetse n'izindi nyinshi zifata umubiri w'umuntu.

Umukobwa mwiza ari muri siporo, yicaye ndetse afashe amaguru ye yose, bigaragara ko ari kugorora ingingo ze zitandukanye.

Umuntu uri muri siporo yumva akaziki akoresheje ekuteri ndetse yambaye isaha kugira ngo abashe kumenya igihe.

Mu bitaro biteye imbere, hari uburyo bwiza bwo gusuzuma umurwayi, aho ashobora kuryama ku gitanda, hanyuma ibyuma by'ikoranabuhanga bikamureba, bikamenya ikibazo afite.

Umukobwa ufite imisatsi myiza isutse, akora siporo ndetse akagira uruhare mu kugorora umubiri we, azamura amaboko anayamanura mu buryo bworoheje.

Uruhurirane rw'imiti yo kwa muganga itandukanye, iba iri mu dupfunyika twabugenewe harimo iba mu ducupa, ndetse no mu bindi bikoresho bitandukanye.

Ukora siporo y'ubugororangingo nawe aba ari gufasha umubiri we kugira ubuzima bwiza ndetse no kuwurinda kurwara indwara za hato na hato zirimo nko kuvunika bitunguranye.

Ububiko bw'imiti buba burimo imiti myinshi itandukanye kandi buri muti wose uba uri ukwawo nk'imiti ivura umutwe iba uri ukwayo ivura uruhu ukwayo ndetse n'indi yose ibibitse mu gice cyayo.

Gukora siporo ngororamubiri na we aba ari kwita ku buzima bwe, ku buryo adashobora kurwaragurika bya hato na hato bitewe n'uko aba yafashije umubiri we kubaka ubudahangarwa.

Kunywa amazi meza asukuye bifasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye ndetse bigafasha impyiko gukora neza, mu gihe cyo kuyungurura amaraso.

Siporo ngororamubiri, bifasha umubiri w'umuntu ndetse bigafasha n'amagufa gukomera bityo umubiri ukagira ubudahangarwa mu bijyanye no guhangana n'indwara zitandukanye.

Urutonde rw'ibikoresho byinshi ndetse n'imiti ikoreshwa kwa muganga mu buvuzi butandukanye ndetse n'ubujyanama butandukanye.

Amazi ari gushukwa mu ijagi akaba ari amazi meza cyane y'urubogobogo nk'uko bigaragara, aya niyo dukwiye kunywa kuko aturinda indwara zitandukanye.

Nyuma yo gukora siporo, umubiri utakaza amasukari menshi ndetse n'imbaraga nyinshi, ni yo mpamvu usabwa kunywa amazi ndetse byaba ngombwa ukanayimenaho kugira ngo ufashe umubiri wawe.

Isanduku irimo ibikoresho bya muganga. Harimo imiti ifunze mu macupa, mu bikarito, harimo impakasi, harimo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye n'inshinge.

Mu nzu yagenewe gukorerwamo siporo, ni inzu ishobora gufasha umuntu wese gukora siporo zitandukanye mu rwego rwo gufasha umubiri we kumera neza.

Uruhurirane rw'abitabiriye siporo barimo: abana, urubyiruko, abakuze, mu rwego rwo kwita ku buzima ndetse no kwirinda zimwe mu ndwara zikomeye.

Siporo ngororangingo, ni siporo zifasha cyane ku kwita ku buzima, ndetse bikongera ubudahangarwa bw'umubiri mu rwego rwo kwirinda indwara zitandukanye.

Abantu benshi barimo urubyiruko, abana batoya, abakobwa ndetse n'abahungu bakora siporo zitandukanye nko gukina umupira, kwirukanka ndetse n'izindi nyinshi.

Ushobora gukora siporo zitandukanye ariko ni byiza kugisha inama muganga kugirango umenye siporo z'ubwoko wakora bitewe n'ikibazo muganga yagusanganye.

Uruhererekane rw'ibikoresho bikoreshwa kwa muganga mu kwita ku barwayi, haba kubapima ndetse no kubandikira imiti bagomba gufata.

Igihe ukoze siporo ukavunika cyangwa ugakomereka, ni byiza kujya kwa muganga kugira ngo bagufashe mu buvuzi butandukanye buhabwa uwakomeretse cyangwa uwavunitse.

Gukora siporo ukina umukino w'intoki uzwi nka Rugubi na byo ni ibintu by'ingenzi cyane kuko bifasha umubiri gutakaza amwe mu masukari ashobora kugira ingaruka mu mubiri.

Umukinnyi ukina umupira w'amaguru agomba guhabwa ubuvuzi bw'ibanze igihe cyose agize ikibazo ari mu kibuga, cyangwa se akitabwaho mu buryo bwihariye.

Hari ibintu byinshi bishobora kugufasha mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, birimo kunywa amazi, kurya imbuto cyane cyane nk'indimu, ndetse n'izindi mbuto zimeze nkazo.

Mu byukuri siporo ni ingenzi gusa buri wese asabwa kwitabira gukora siporo ,hari amagambo y'icyongereza yanditse ku cyapa ariho ngo ''safety in sport ''ndetse hari inyuguti zitondekanyije zimanuka.

Mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza, umuntu ashobora gukora siporo zitandukanye, zirimo gusimbuka umugozi, ndetse n'ibindi byinshi, hanyuma yo kubikora ashobora kurya imbuto zitandukanye nk'inyanya ndetse n'ibitunguru bikamufasha.

Siporo ngororamubiri ni siporo z'ingenzi cyane, kuko zifasha umubiri kwirinda uburwayi butandukanye. Burimo nk'umubyibuho ukabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso.

Umuntu udakora siporo ashobora kuvunika cyane cyane akavunika akagombambari bityo bigatuma atinda gukira bitewe nuko adakunze kumenyereza amaguru ye gukora siporo.

Ingobyi yifashishwa kwa muganga yoroheje, aho umurwayi ayishyirwaho hanyuma muganga akayisunika mu rwego rwo kumwimura amujyana mu kindi cyumba, cyangwa agiye kumukorera operasiyo.

Wakora siporo zitandukanye, mu rwego rwo kuringaniza umubiri wawe, aho ushobora guhagarara ku kaguru kamwe cyangwa ukagenda ukazunguza ukavana hirya ukazana hino.

Imashini nini cyane iteye mu buryo butangaje iri mu cyumba cyo kwa muganga, bigaragara ko yifashishwa mu gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye.

Umurwayi bigaragara ko yagize ikibazo igihe yakoraga siporo ari kwitabwaho n'abaganga . Akaba yambaye agapira k'umukara.

Kunywa amazi ni ingenzi ku mubiri w'umuntu kubera ko amazi agira uruhare rukomeye mu igogorwa ry'ibiryo ndetse agira n'uruhare mu kurinda indwara zitandukanye.

Ahateraniye abantu benshi haba hari abaganga bafite ibikapu birimo imiti ndetse yifashishwa mu butabazi bw'ibanze mu gihe hari uhuye n'ikibazo.

Ibikoresho bitandukanye birimo amacupa ndetse n'impapuro z'isuku. Igikapu gishushanyijeho agasaraba bisa nkaho ari icya muganga. Byose bikaba ari ibikoresho bya muganga.

Muganga yita ku murwayi wavunitse, akoresheje barafu ikonja, ku buryo ashyira ahari ububabare hanyuma bukagabanuka.

Imiti itandukanye yo kwa muganga, ibikwa neza ahantu habugenewe kugira ngo itangirika, bityo ikaba itagirira umumaro uyifashe cyangwa uyinyoye.

Nyuma yo gukora siporo akabiri ibyunzwe anywa amazi kugira ngo amufashe mu rwego rwo gusohora imyanda yose yamubonetseho igihe yari ari muri siporo.

Har’ibintu byinshi bitandukanye bifasha gukora siporo, ndetse biba byarakorewe, kugira ngo bifashe buri muntu wese.

Nyuma yo gukora siporo ni byiza kurya ibiryo birimo imbuto, kuko ziba zikungahayemo vitamine aha twavuga nka karoti tukavuga indimu ndetse na pome.

Kimwe mu bintu bituma umuntu agira umubiri umeze neza ndetse akagira ubuzima buzira umuze, ni ukunywa amazi meza.

Imiti yo kwa muganga iba ipfunyitse mu dupfunyika no mu dukoresho twabugenewe mu rwego rwo kurinda kwangirika bityo ikaba itabasha kuvura uyikoresheje.

Gukora siporo ni ingenzi by'umwihariko bifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa no kwirinda indwara zitandukanye, gusa ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye byagufasha.

Gukora siporo zitandukanye nko kwirukanka, gusimbuka ndetse n'izindi, ni ibintu bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no kwirinda indwara zimwe na zimwe.

Gukora siporo ngorora ngingo bifasha umubiri w'umuntu kugira ubudahangarwa, ndetse bikamurinda indwara zitandukanye zituruka ku mubyibuho ukabije ndetse n'izindi nyinshi.

Siporo ngororamubiri ni ingenzi cyane, n'ubwo zikunzwe gukorwa n'abasore, mu by'ukuri zigenewe abantu bose, abagore, abakobwa, urubyiruko n'abana bato.

Imiti ifunze mu ducupa dutatu dupfundikije imifuniko y'umweru ndetse ikaba ari imiti igabanya uburibwe ku muntu ufite ikibazo cyo kubabara.

Umurwayi wavunitse ukuguru, ashyirwa ku kamashini kabugenewe, bigendanye n'urwego imvune iriho, hanyuma bikamufasha gukira vuba.

Mu bitaro haba serivise zitandukanye zifasha abarwayi barembye ndetse haba ibitanda by'ubwoko bwose buri murwayi wese ashobora kuryamaho bitewe n'urwego rw'uburwayi arwaye.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye ipfunyitse mu macupa ndetse no mu dupapuro twabugenewe, mu rwego rwo kwirinda ko yakangirika.

Siporo ngororamubiri zitandukanye, ni ingenzi cyane kuko zifasha umubiri w'uzikora kumera neza, ndetse no kubaka ubudahangarwa, bityo bikamurinda kurwaragurika.

Ubuvuzi bw'ibanze buhabwa abarwayi batarembye cyane burimo nko kubaha ibinini, kubatera inshinge ndetse no kubaha imiti inyobwa y'amazi.

Ni igikoresho cyifashishwa mu gukora siporo zitandukanye, aho ushobora kugikoresha ucyambara kikaba kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru n'umukara.

Ibyatsi bitandukanye bivamo umuti wa gakondo, ndetse bikaba bikunze kuboneka mu bihuru bitandukanye, bibaye byiza byazahingwa ahantu hamwe maze tukajya tubibona byoroshye.

Ibimera bigira uruhare mu gutanga imiti myinshi cyane iyo tuzi nk'imiti ya gakondo cyangwa imiti ya kinyarwanda, aha twavugamo nka za kapusine ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Umuti ukomoka ku bimera, ni umuti uvura indwara zitandukanye, ndetse ukaba ari umuti wemewe bitewe n'uko watunganyijwe.

Ikimera kigaragara ko kirandaranda ku butaka, hateretseho icyuma ahari hari umuganga wa gakondo waje kugica cyangwa kugisoroma ngo ajye kugitunganyamo umuti wa gakondo.

Agakarito kariho umuti ndetse umuti mwiza cyane watunganyijwe , ukaba ari umuti wa gakondo kanditseho mirongo itanu ku ijana hasi makumyabiri ku ijana n'ayandi magambo y'icyongereza.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye. Irimo ikomoka ku bimera iri mu ducupa dutoya ndetse n'utunini utw'umweru, n'utw'umukara itandukanye ivura ibintu byinshi bitandukanye.

Imiti gakondo itandukanye, yatunganyijwe, igashyirwa mu bikoresho byabugenewe, kugira ngo hirindwe ko yakangirika, na yo ikoreshwa cyane mu buvuzi bwemewe n'amategeko.

Icupa ryiza cyane ry'umweru ryanditseho ijambo ry'icyongereza foreva ndetse hasi hakaba handitseho deyiri, bivuga ko umuti urimo unyobwa buri munsi. Ripfundikije umupfundikizo w'umweru ndetse ririmo umuti wa gakondo.

Imiti gakondo igiye itandukanye, isigaye yaratunganyijwe ku buryo umuntu ashobora kuyikoresha, afite icyizere cy'uko yakira indwara.

Abantu benshi bakunze kwizera ko imiti gakondo ishobora kuvura indwara zitandukanye, harimo nk'indwara z'akarande ndetse n'izindi nyinshi.

Ibimera bitandukanye bishobora kwifashishwa mu buvuzi bw'ibanze ndetse akaba ari imiti ya kinyarwanda kandi ishobora kuvura ndetse ikanafasha cyane.

Umuti gakondo ukomoka ku bimera ushobora gufasha umubiri kugira ubudahangarwa mu bigendanye n'ubuzima bwiza.

Uruhurirane rw'imiti gakondo ikomoka ku bimera ku biti ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye igira uruhare mu ku kuvura indwara zikomeye ndetse harimo n'izishobora kuba ari indwara zidakira.

Imiti ikomoka ,ku bimera,n' imiti ivura indwara zitandukanye, gusa ikoreshwa hakurikijwe uburyo yemejwe n' ikigo kibishinzwe.

Imiti ikomoka ku bimera bitandukanye, ivura indwara zikomeye ndetse zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, impyiko ndetse n'izindi.

Uruhurirane rw'ibimera ndetse n'ibiribwa dushobora gukoresha nk'imiti gakondo, harimo tungurusumu ndetse n'ibindi byinshi.

Ibiti bya kimeza bikunze gukura cyane ndetse rimwe na rimwe ntibipfa kugaragara aho ariho hose usibye nko muri parike ndetse no mu bihuru.

umu mama bigaragara ko ari gushaka imiti mu gihuru, ndabona imbere ye hari abandi bamama babiri hirya ahagana inyuma ye naho hari undi mama, bose bari gusoroma imiti ya Kinyarwanda.

Imiti gakondo ikozwe mu buryo butandukanye ariko ikaba yarakozwe mu kimera ndetse ikaba ifite ubushobozi bwo kuvura indwara.

Bambuba ni ikimera cyifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye ndetse ni ikimera gishobora kuboneka ahantu aho ariho hose.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti ya gakondo bikunze kuboneka mu bihuru by'umwihariko ahantu hari ibyatsi bya kimeza, n'ibiti bya kimeza bitatewe n'abantu.

Ushobora gukoresha imiti ikomoka ku bimera, bitabaye ngombwa ko ujya kuyigura, aho ushobora gufata nk'umuravumba ukawutumbika mu mazi, hanyuma ukanywa ayo mazi bityo akagufasha.

Imiti gakondo ikomoka mu bimera, iratunganywa hanyuma igashyirwa mu ducupa twabugenewe, igashyirwaho uburyo bwo kuyikoresha.

Imiti ikomoka ku bimera, izwi nk'imiti ya kinyarwanda, cyangwa imiti ya gakondo, ni imiti ifasha cyane ndetse aha ngaha twavuga imiti ikomoka ku kimera nk'umuravumba, bambuba, ndetse n'ibindi.

Ibimera bitandukanye biboneka mu mashyamba ndetse no mu bihuru no mu mirima igiye iri hirya no hino, ni ibimera byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Amavuta avura uruhu akomoka ku bimera, ndetse akaba azwi nk'umuti gakondo ufasha uruhu gukira indwara zitandukanye.

Ibimera bitandukanye bikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi, aha twavuga nk'imiravumba ndetse n'ibindi biboneka mu mashyamba ndetse no mu bihuru.

Imiti gakondo myinshi ikomoka ku bimera ndetse no ku biti bitandukanye ku buryo usanga byoroshye kuyibona ariko bisaba kuyitunganya kugira ngo ibashe kuvura idateje ikindi kibazo.

Igikakarubamba ni ikimera cyiza cyane ndetse hafi mirongo icyenda ku ijana by'abanyarwanda twese turakizi. Iki kimera gikunze kwifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Uruhurirane rw'imiti itandukanye ya kinyarwanda abenshi dukunze kwita imiti ya gakondo ifasha mu kuvura indwara zitandukanye harimo ndetse n'indwara z'akarande.

Hari udutebo twinshi cyane sinabasha kutubara twose turimo imiti ikomoka ku bimera ndetse n'iyindi igiye itandukanye ariko yose ni imiti ya gakondo.

Ibimera by'ubwoko butandukanye biboneka mu mashyamba ndetse no mu bihuru, bitanga imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Uruhurirane rw'ibimera bitandukanye bya kimeza bivamo imiti ya gakondo ibi byose bikaba iboneka mu mashyamba ndetse no mu bihuru yemwe no mu bishanga hirya no hino.

Imiti gakondo hafi ya yose, ikomoka ku bimera ndetse bitandukanye nk'ibiti, ibyatsi n'ibindi kandi ikaba ari imiti ikoreshwa mu buvuzi bwemewe n'amategeko.

Imiti ya kinyarwanda ndetse bamwe bakunze kwita iya gakondo ikomoka ku bimera n'imiti ivura indwara zitandukanye harimo nk'umuvuduko w'amaraso.

Ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi ubungubu bwateye imbere ku buryo umuntu wabiherewe uburenganzira atanga imiti ndetse akavura abantu.

Umuti ukomoka ku bimera watunganyijwe, ukagirwa umuti w'amazi unyobwa, ushobora kuvura indwara zitandukanye zo mu mubiri bityo umuntu akabasha gukira.

Akenshi imiti ya gakondo iboneka mu ishyamba ndetse n'ahandi hari ibihuru. Mu by'ukuri iyi miti irafasha cyane...

Muri foreva vijoni batanga imiti gakondo ikomoka ku bimera, kandi igira uruhare ruziguye mu kuvura ndetse no kwita ku buzima bwa muntu.

Hari ibiti ndetse n'ibimera bitandukanye byifitemo imiti abenshi bakoresha mu buvuzi bityo igafasha cyane.

Imiti gakondo ikomoka ku bimera ndetse izwi nk'imiti ya kinyarwanda, ifasha cyane mu buvuzi ku buryo ubu ngubu yemewe n'ikigo kibishinzwe.

Umuravumba ni kimwe mu bimera byifashishwa mu buvuzi butandukanye bwa gakondo, kandi ukaba uvura indwara nyinshi zitandukanye ku buryo ushobora no kuwifashisha wowe ubwawe.

Imiti ya kinyarwanda cyangwa imiti ya gakondo, nayo ishobora kwifashishwa mu buvuzi, ariko ikifashishwa gusa igihe yahawe icyemezo cy'ubuziranenge.

Ibimera bitandukanye nk'umuravumba ndetse n'ibindi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zirimo nk'inkorora ndetse n'izindi.

Ibimera bitandukanye ndetse bidakunze kuboneka aho ariho hose, ni byo bivamo imiti ya gakondo ndetse ibi bimera bikunze kugaragara mu mashyamba manini nka za parike.

Umuti gakondo uri mu icupa ry'umweru ndetse ryanditseho inyuma uko ukoreshwa, ni umuti watunganyijwe kandi wemewe n'ikigo kibishinzwe.

Imiti gakondo ikomoka cyane cyane ku bimera, iratunganywa hanyuma igashyirwa mu macupa yabugenewe kugira ngo itangirika.